Muri gahunda nziza za leta no kurwanya inkongi z'umuriro ni imwe muri gahunda leta ishyiramo imbaraga, kuko ushobora kuza akanya ariko kose kandi utawiteguye, mu mugihe cyo kugira ngo tuwurwanye rero, bisaba kugira ngo ahantu hahurire abantu benshi cyane nk'amanyubako manini kuba bafite ibikoresho birwanya umuriro byizewe kandi byiza.

Kurwanya inkongi z'umuriro ni bimwe mu byatuma tubungabunga umutekano mu buryo bwiza kandi bunoze, mu gihe ubonye ahari ikibazo cy'inkongi y'umuriro wakihutira gukoresha zimwe muri serivisi za leta, guhamagara abashinzwe kurwanya inkongi z'umuriro.

Ibyapa ni bimwe mu bidufasha kubungabunga umutekano wo mu muhanda nk'uko leta ihora ibidushishikariza, niba ugeze ku cyapa soma urebe mbere y'uko ukomeza, dukoreshe ibyapa mu buryo bwizewe kandi bwiza.

Icyapa kimwe mu bintu byiza bigufasha kuranga icyerekezo cy'ahantu hamwe, aho uva, aho ugana kikaba ari ikintu kigufasha kumenya aho ugiye kwerekeza n'aho uherereye.